Mu Rwanda hari uburyo bwo kugorora abantu bakoze ibyaha, iyo ukoze ikosa inzego zibishinzwe ziragufata zikaguhana bakurikije icyaha wakoze, bityo niyo mpamvu ubona hari abo bafata bagahita babambika amapingu mu gihe bagikurikirana amakosa bakoze.

Inzego z'umutekano harimo abapolisi, abasirikare, abagore n'abagabo, abasore n'inkumi, bari ahantu mu kibaya munsi y'ibiti byiza. Barimo barahabwa amabwiriza ajyanye n'imirimo yabo.

Inzego z'umutekano tuzi ko izina ry'abapolisi, bicaye imbere y'inzu abandi bahagaze. Mu busitani bw'iyo nzu, hari ameza ateretseho gaze n'isafuriya iteretse kuri gaze abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, baratanga amabwiriza y'uko bakwitwara igihe habayeho inkongi y'umuriro.

Inteko rusange y'abaturage yateraniyemo abagore, abagabo, abakecuru n'abasaza, ndetse n'urubyiruko, bafite umuyobozi ubayoboye arimo arabaha amabwiriza kandi bicaye munsi y'ibiti byiza, bivuze ngo hari n'akayaga ahantu bari gukorera inama

Ihuriro ry'abantu bahuriye hamwe bari mu nama, ni abantu baturutse ahantu hatandukanye. Bose bateze amatwi ibyo abayobozi ba bo bababwira, iyi nama ni ingirakamaro.

Umuyobozi wakoresheje inama abaturage bigaragarako bamwitabiriye, n'ubwo hari izuba ryinshi ariko ubonako buri wese yamuteze amatwi ,bivuze ngo inama bari bugirwe hano irabagirira akamaro.

Inteko rusange y'abaturage yahuriyemo n'abantu benshi: abagore n'abagabo ,abakecuru n'abasaza. Inzego z'umutekano zirimo zirabaganiriza ku kijyanye n'umutekano.

Icyumba cyiza gikorerwamo inama zitandukanye umuyobozi w'inama arimo araganiriza abo ayobora bose bamuteze amatwi bivuze ngo inama ari bubagire buri wese arayumva neza kandi azayishire mu bikorwa.

Inteko rusange y'abaturage yahuriwemo n'abantu benshi batandukanye abagore, abagabo ,urubyiruko ndetse n'abana batoya, aba bantu bicaye mu kibuga kinini kandi ni benshi inama bari bugirwe bari buzikurikize.

Ihuriro ry'abaturage bateraniye hamwe, harimo abagore n'abagabo, abakecuru n'abasaza, bari kwiga ku bibazo bitandukanye byugarije imiryango yabo, umuyobozi wabo arimo arabagira inama.

Ibikoresho by'umuco nyarwanda，harimo inkangara， inkongoro， ndetse n’igisabo， ibirago biboshye neza. Ibi bikoresho bigaragaza umuco nyarwanda kandi ni byiza cyane.

Mu muco nyarwanda kera habagaho inyogosho abagabo n'abagore biyogosheshaga zitwa amasunzu .Aba bagabo barimo barabogosha amasunzu, iki gihe zasimbuwe n'inyogosho zitandukanye.

Iwacu hariho abantu benshi bakora ibintu bitandukanye abo twita ababumbyi b'inkono. Uyu mukecuru arimo arabumba inkono kandi inkono ze ziba zikomeye. Buri wese ukeneye guteka mu nkono nyarwanda, aramugana kandi akamwakira neza.

Iwacu mu Rwanda tugira inzu zubatse kinyarwanda zisakaje ibyatsi. Ni inzu nziza ba mukerarugendo bishimira kureba. Uyu muzungu barimo baramwereka ibikoresho by'ubugeni biba biri muri izo nzu, harimo inkongoro ndetse n'inkangara.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe za kinyarwanda bari kunywera mu rukiza cyangwa se uruho. Urukiza ni igikoresho cyakoreshwaga hambere mu kukinywesha kandi cyabaga ari cyiza kiryoshya umusururu ndetse n'izindi nzoga zose.

Mu muco wacu wa kinyarwanda harimo ubukorikori bwinshi, harimo no gukora ibintu bijyanye n'ubugeni. Uyu mukobwa arimo arakora imbabura akoresheje ibumba, ni imbabura za kinyarwanda kandi ziramba.

Umuco wo kuboha ikirago ni umuco mwiza cyane. Ikirago ni igikoresho gikenerwa mu rugo iwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugikoresha tucyanikaho imyaka ndetse hari n'abakiraraho. Ikirago ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inkoko iteretse ahantu ku mabuye, kuri iyi nkoko hanitseho inzuzi. Inzuzi zavuye mu bihaza cyangwa se ibyo twita amadegede. Izi nzuzi zikoreshwa ahantu hose, iyo ari nyinshi zivamo n'isosi.

Umuvure ni kimwe mu bikoresho gakondo cyifashishwa mu gukama ibitoki. Iki gikoresho ni igikoresho cyiza, bagikamiramo cyangwa se bakacyengeramo inzoga.

Mu muco w'iwacu iyo tumaze gusarura imyaka tuyibika neza, ariko mu buryo bwo kuyibika neza tubanza twayigosora twifashishije intara, imyaka yacu iyo tumaze kuyigosora tukayibika iba ifite ubuziranenge.

Ababyinnyi babyina imbyino z'umuco nyarwanda, bambaye amayugi bambara imishanana bambaye imigara, bafite n'ingabo mu maboko. Aba babyinnyi babyina neza uwo ari we wese yishimira kubareba.

Mu muco nyarwanda tugira ibyo bita ibitebo cyangwa se inkangara. inkangara ni igikoresho ukoresha mu rugo ubikamo imyaka, ushobora kugemuriramo mugenzi wawe igihe ugiye kumusura kandi kiboneye amaso.

Ikirago giteretseho inkoko, inkoko iriho umubikira, igicuma, ndetse n'uruho cyangwa se urukiza. Muri icyo gicuma harimo n'umuheha cyangwa se umuseke, ibi bikoresho ni ibya kinyarwanda.

Mu muco nyarwanda tugira imbyino nyinshi zitandukanye harimo n'imbyino za kinyarwanda; intore ni zo zikunda kubyina izo mbyino, zambaye amayogi, inkindi, inshabure ndetse n'umugara. Izi ntore iyo zibyina, buri wese yishimira kuzireba.

Ababyeyi benshi bicaye ahantu hamwe bari kuboha ibikoresho by'ubugeni. Barikuboha imitako, ibiseke, n'inkangara ndetse n'ibindi. Iyi mitako ikundwa cyane cyane n'abazungu, abo twita ba mukerarugendo. Iyi mitako izanira aba babyeyi amafaranga menshi kandi ahagije.

Abakobwa babiri bikoreye ibibindi bari kumanuka ku musozi, berekeza mu kabande. Ibibindi ni kimwe mu muco nyarwanda rwo hambere, bakoreshaga bajya kuvoma ndetse baterekagamo n'inzoga.

Amasaka y'iwacu ni amasaka meza kandi manini ,agira amahundo manini ndetse n'impeke nini ,aya masaka n'iyo uyashesheje agira ifu nziza, kandi iryoshye ubuhinzi bw'amasaka ni ubuhinzi bwiza kandi buteza imbere abaturage.

Hano iwacu hari uburyo bwiza bw'ubworozi bw'inzuki bifashishije imitiba, iyo mitiba iyo bayiteguye neza hajyamo inzuki ,inzuki zigakora ubuki ,ubuki bwacu ni ubuki bwiza kandi buryoshye bukenerwa mu gihugu cyacu ndetse no mu mahanga.

Hano iwacu tugira ibiti bitandukanye harimo n'igiti cyitwa umuvumu, igiti cy'umuvumu ni igiti kivura indwara zitandukanye, ababyeyi benshi bagikoresha cyane cyane iyo bafite uduhinja.

Inkongoro ni igikoresho dukoresha hano iwacu , tugikoresha mu bijyanye n'amata. Tugikoresha tubika amata cyangwa se ikaba icyansi cyo gukamiramo inkongoro ni igikoresho cyiza.

Mu muco nyarwanda habaho ibikoresho byinshi byifashishwa mu bucuranzi, harimo igikoresho cyitwa umuduri. Umuduri ni igikoresho cyifashishwa mu gucuranga, umuntu ugikoresheje indirimbo ze ziba ziryoheye amatwi.

Abakaraza bavuza ingoma bahagaze imbere yazo, ingoma zibatondetse imbere. Imbere y'abo gato hari umukobwa uri kuririmba, afite mikoro ndetse n'igikoresho cy'ubucuranzi cyitwa umuduri; iki gikoresho cyifashishwa mu bucuranzi.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho bitandukanye. Harimo ibitebo, inkangara, ingoma, ibisabo ndetse n'inkongoro. Igisabo tukifashisha dutegura amata, inkongoro tukayibikamo amata.

Abantu benshi bicaye ahantu mu kibaya bari kureba umukino wo gusimbuka. Aba baturage bigaragare ko ari abaturage bo mu muco wa kera, biyogoshesheje amasunzu.

Igisabo ni igikoresho dukoresha mu muco nyarwanda, igisabo tugifashisha turi gucunda amata. Iki gikoresho umuntu wese ugifite mu rugo anywa amata meza kandi afutse.

Isafuriya ipfundikiye iteretse ku mashyiga atatu. Aya mashyiga atatu uramutse ukuyeho rimwe iyi safuriya yahirima, bivuze ngo guteka ku mashyiga atatu bituma tubona ibyo kurya.

Mu muco nyarwanda, harimo ibikoresho byinshi twifashisha mu bucuranzi. Umuduri, ni kimwe mu bikoresho bifashisha bacuranga indirimbo zitandukanye. Mu muco nyarwanda, umuduri cyari igikoresho cyiza, kandi kinogeye amaso.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho byinshi bitandukanye by'umuco harimo inkangara ibicuma ibirago biboshye neza ibi bikoresho ni ibikoresho byiza kandi buri wese yishimira kugira.

Abakobwa beza kandi benshi bari kubyina imbyino nyarwanda, bambaye amayogi ku maguru bambaye n'utundi tuntu ku maboko, ndetse n'urugori bambaye udupira tw'umukara, barikubyina imbyino nziza kandi zinogeye amaso.

Inzu za kinyarwanda zubakishije ibyatsi, zizitijwe n'uruzitiro rw'imigano, imbere y'izo nzu hariho ababyinnyi bari kubyina n'imbyino za kinyarwanda, bambaye imigara, bambaye amayogi, bafite n'ingoma mu maboko. Aba babyinnyi barashimisha.

Ibiryo bya kinyarwanda harimo:amateke, ibijumba ,n'ibishyimbo ,ibihaza ,n'imyumbati ,umutsima w'amasaka ,umutsima w'ibigori barira ku nkoko, umutsima bakawushyra mu biseke ,akenshi ibi biryo tubikoresha ku munsi w'umuganura, twishimira ibyo twagezeho mu buhinzi bwacu.

Abaturage benshi bari gukora umuganda, harimo abasore, abagabo ndetse n'abandi bose bakuze. Iwacu mu Rwanda tugira umuco wo gukora umuganda, kuko ari igikorwa remezo buri muturage wese yisangamo.

Umusore wambaye ishati y'umweru, isaha ku kaboko n'ipantaro y'ubururu , afashe inanga. Inanga ni igikoresho cyakoreshwaga hambere mu bucuranzi . Iki gikoresho iyo wagicurangishaga abantu bose baranezerwaga.

Inka nyinshi zifite amahembe meza kandi maremare ateze neza, zifite amabara atandukanye, harimo indende ndetse n'ingufi. Izi nka ni inka nziza kandi zorowe neza.

Inzu inzu z'ibyatsi zizitijwe n'uruzitiro rw'imigano imbere yazo hariho ubusitani bwiza izi nzu z'ibyatsi zigaragaza umuco wacu wa mbere.

Iwacu tugira ubukorikori bwinshi butandukanye harimo: ubukorikori bwo kubumba inkono. Inkono za kinyarwanda ,inkono za kinyarwanda ni inkono zikunzwe cyane kandi ziramba.

Inka nziza nyinshi ziri mu rwuri zifite amahembe maremare kandi meza ateze neza ni inka zishishe zorowe neza izi nka zigira umukamo mwinshi.

Umuduri ni igikoresho cyakoreshwaga mu bucuranzi bwo hambere. Umuduri bawukoreshaga bari gucuranga indirimbo za Kinyarwanda. Iyo wabaga ubonye umuntu uri gucurangisha umuduri, wumvaga ari ibintu byiza kandi biryoheye amatwi.

Umusaza uri kuvoma amazi mu kabande akoresheje urukiza. Urukiza ni igikoresho cyakoreshwaga hambere, ariko cyabaga ari cyiza no kukinyweramo, abantu bose barabyishimiraga.

Mu muco nyarwanda tugira ibikoresho bitandukanye harimo inkangara. Inkangara nini n'inkangara ntoya zifite n'imifuniko yazo harimo n'ibyo twita ibirago. Iki kirago kiboshe neza kirimo n'amabara.

Inka nyinshi kandi nziza zifite amahembe maremare, zifite amahembe y'umweru zambaye n'inigi, inka zacu zo muri iki gihugu ni nzizaza cyane. Bivuzezwe ngo n'abakerarugendo baza kuzireba bitewe n'uko ziteye neza.

Umuvure ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa hano iwacu mu Rwanda iki gikoresho bagikoresha bakama ibitoki, umuvure ni igikoresho cyiza iyo umuturage yejeje ibitoki bye arabitara akabikama bikavamo umutobe cyangwa se inzoga.

Ingoma ni kimwe mu bikoresho dukoresha hano iwacu mu bijyanye n'imyidagaduro, haba mu kuririmba mu kubyina ndetse no mu bukwe. Ingoma ni igikoresho cyiza kandi gisusurutsa abantu.

Ubukwe bwo mu Rwanda rwacu rwo hambere ,umukobwa iyo yabaga ashyingiwe bamutwaraga mu cyo bita ingobyi bakamushyikiriza umusore we. Aba bantu imyambaro yabo ntabwo yabaga imeze nk'iyo twambara twebwe ubu ngubu.

Inama y'ubuyobozi butandukanye yahuriye ahantu runaka harimo n'ababyinnyi babyina indirimbo nyarwanda, aba babyinnyi batega neza amaboko kandi ababarebye barabishimira.

Ingano ni igihingwa cyiza kandi gitanga umusaruro uhagije mu buryo bwo gutegura ingano neza iyo tumaze kuzisarura dukora icyo bita kuzihura tukazigosora twifashishije intara.

Mu muco nyarwanda tugira inzu zubatse neza, zisakaje ibyatsi, zubatse ku buryo bwa muviringu, zikikijwe n'ibiti byinshi kandi zikitijwe n'imigano. Izi nzu zikurura ba mukerarugendo.

Mu muco nyarwanda tugira umuco wo kuboha ibirago, ikirago ni igikoresho dukoresha iwacu mu rugo bakiryamaho, bakacyanikaho imyaka itandukanye bityo ni igikoresho gifasha umuryango.

Ababyinnyi benshi b'abakobwa bateze neza, bikoreye uduseke, bambaye imikenyero ndetse n'amayogi. Aba bakobwa barabyina neza kandi ubabonye wese arabishimira.

Ababyinnyi babyina imbyino z'umuco nyarwanda, bambaye neza, bambaye imishanana, bambaye amayogi, ndetse n'imigara. Aba babyinnyi babyina neza, buri wese ubarebye arabyishimira.

Ababyinnyi babiri bari kubyina imbyino za kinyarwanda, bambaye imishanana, bambaye imigara, bafite n'ingabo, n'inkoni mu maboko. Inyuma ya bo hari abari kuvuza ingoma; abo dukunda kwita abakaraza.

Inyubako za kinyarwanda zisakaje ibyatsi. Zizitijwe n'ibiti ndetse n'imigano， izo nyubako imbere yaho hariho ubusitani bwiza ndetse n'ibiti by'amahumbezi.

Inanga ni igikoresho cyifashishwaga mu bucuranzi. Iyo wabaga wumva umuntu uri gucurangisha inanga, wumvaga ari ibintu byiza kandi biryoheye amatwi. Buri wese akumva agize inyota yo kumenya kuyicurangisha.

Ibiseke byiza biboshe neza. Ibiseke ni kimwe mu bikoresho bigaragaza umuco nyarwanda. Ibiseke tubikoresha dukora dekorasiyo ndetse tukabikoresha mu rugo iwacu tugemurira bagenzi bacu.

Mu muco nyarwanda twabonaga ifu dukoresheje ibuye. Ibuye warikoreshaga uri kubeta amasaka ningano ndetse n'uburo ikindi kintu bakoreshaga ni igasire niyo yagufashaga kubona ifu.

Icyuma giteretse ku meza gifite umugozi muremure ,gifite umunwa usongoye bagikoresha bakora amaradiyo, amateleviziyo ndetse n'amatelefone. Iki cyuma ni ingenzi ku bagikoresha.

Mu iterambere ryiza harimo no kwegereza abaturage umuriro hano iwacu twagiriwe umugisha wo kubona umuriro ku buryo bworoshye buri muturage afite umuriro murugo bityo bigatuma yiteza imbere.

Icyuma twita ipense, ni icyuma gikoreshwa mu mirimo itandukanye, ipense ifungura ibyuma ndetse ikanabifunga, iyo turi gufunga ibitanda iwacu, cyangwa se turi gugufunga inzugi, twifashisha ipense.

Turune visi ni igikoresho dukoresha dukora ibintu bitandukanye, gufunga ibyuma, kubifungura. Iki gikoresho kidufasha mu gukora ibintu bitandukanye ku buryo bworoshye, bityo kukigira ni ikintu gikomeye mu rugo.

Iyi radiyo ni kimwe mu bikoresho, dukoresha hano iwacu mu Rwanda iradiyo ni igikoresho cy'ikoranabuhanga, kitumenyesha amakuru kikakumenyesha aho igihe kigeze, i radiyo ni igikoresho kiza mu rugo.

Iradiyo nziza iteretse ku kameza. Iradiyo ni igikoresho cyiza mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Iradiyo ituma umuntu amenya amakuru ku buryo bworoshe kandi ikagufasha kumenya aho isi igeze.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubika amakuru cyangwa se kubika umuriro, iki gikoresho ni igikoresho cyiza kiragufasha iyo ugifite ntushobora kubura amakuru yawe wabitse.

Umubyeyi wicaye iwe muri saro, saro irimo intebe n'ameza harimo n'imisego, uyu mubyeyi anezerewe ku buryo bwinshi kubera ko afite saro nziza.

Paruwasi nziza yubatse ahantu heza. Abakirisitu iyo baje kuyisengeramo bumva banezerewe, kubera ko babona ibyo bifuza. Iyi paruwasi yubatse ku buryo bwa kijyambere.

Ihuriro ry'abemeramana harimo: abasenyeri, abapasiteri ndetse n'abakristo. Bari bari mu muhango wo kwishimira ko ubukristu bwabo buri gutera imbere.

Kiliziya Gatolika igira umuryango w'abemeramana muri uwo muryango harimo abapadiri ,abo twita ababikira cyangwa se aba masera, abo bose bafasha abakirisitu ba katulika kwizera Imana ndetse no gusenga.

Inyubako nziza yubatse ahantu heza, yubatse ku buryo bwa kijyambere, irageretse. Imbere y'inyubako hariho ubusitani bwiza, haciyemo n'umuhanda imodoka zinyuramo zimwe zizamuka izindi zimanuka. Iyi nyubako, ni inyubako nziza.

Amashuri yubatse neza, ari ahantu heza kandi ageretse. Aya mashuri yubatse ku buryo bwa kijambere. Imbere yaho hariho ubusitani bwiza ndetse n'umuhanda.

Inyubako yubatse ahantu heza ifite urubaraza, rwicayeho abaturage benshi batandukanye, iyi nyubako ikorerwamo ubuyobozi butandukanye, abaturage baje kubaza ibibazo baje kugira ngo babakemurire ibibazo, ubuyobozi bwiza bukemura ibibazo by'abaturage.

Inyubako nziza yubatse ahantu heza kandi ndende. Imbere y'iyi nyubako haparitse imodoka, mu busitani bw'iyi nzu hariho amavase ateyemo indabo, afite amabara atandukanye agaragaza ibendera ry'igihugu cyacu: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Urusengero rwiza rwubatse ahantu heza kandi hitaruye hari ubusitani bwiza, abantu bose baza kuhasengera baranyurwa kubera ko ari ahantu heza kandi bakumva ijambo ry'Imana batuje.

Amashuri meza yubatse ahantu heza, amashuri maremare ageretse. Imbere yayo hariho ubusitani bwiza, hariho n'amatara kumuhanda. Ni amashuri afite iterambere ryiza.

Inyubako nziza zubatse ahantu heza mu kibaya, zikikijwe n'ubusitani imbere n'inyuma. Hagati harimo umuhanda mwiza, kandi abawugenda nta kibazo bagira, kubera ko hari amatara ku mihanda.

Ushinzwe umutekano ahagaze kuri bariyeri, imbere yaho hari amazu menshi kandi meza haparitseho imodoka, imbere yaya mazu hariho ubusitani bwiza aya mazu akikijwe n'ibiti birebire.

Ikiraro cyubatse neza mu buryo bwa kijyambere, gifite ubwirinzi buhagije, kiri hejuru y'amazi, hariho n'umusozi muremure hakurya. Iki kiraro nta muntu n'umwe ukinyuraho ngo agire ubwoba.

Kiliziya yubatse ahantu heza. Isengerwamo n'abakirisito b'abagatolika. Iyi kiliziya yubatse neza. Imbere ya yo hariho ubusitani bwiza, hariho n'ishusho ya Bikira Mariya. Buri mukirisito uje gusengera hano yumva anezerewe.

Iwacu mu Rwanda hari gahunda yo gutuza abaturage ku buso butoya. Bubaka imidugudu y'icyitegererezo ituramo imiryango myinshi. Babona umuriro n'amazi ndetse n'imihanda itandukanye.

Inyubako nziza yubatswe ahantu heza imbere yayo hari ho ubusitani bwiza, iyi nyubako ikorerwamo inzego za leta bityo abaturage bose baza kwaka serivisi muri iyi nyubako, bayihabwa neza kandi bagataha bishimye.

Urusengero rwiza rwubatse ahantu heza, munsi y'urwo rusengero hariho ibiti birebire; bimwe bidafite amashami. Abakirisitu baturiye urwo rusengero bose bishimira kurusengeramo kuko ni urusengero rw'imana.

Inyubako zubatse ahantu heza mu kibaya, kandi nziza. Kuri izo nyubako, hariho ubusitani. Zifite imihanda ibiri, umwe uciye haruguru, undi uri hepfo. Umuhanda wo haruguru uri gucamo imodoka, ariko harimo ibyondo byinshi.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe bambaye udupfukamunwa tw'ubwirinzi, bari imbere y'inyubako, imbere yaho haparitse imodoka, hateretse n'amakarito arimo ibintu bitandukanye ndetse n'imifuka.

Mu Rwanda iwacu, amashuri yubatse neza, ari ahantu heza ku muhanda, hari ubusitani buhagije, bivuze ngo abashyitsi iyo bagiye kuhagera, bahagera ku buryo bworoshe. Hari umuriro n'amazi.

Amashuri meza yubatse mu buryo bwa kijyambere ageretse ni amashuri arahantu heza kandi hagari ,aya mashuri abana bayigiramo batsinda neza ku rwego rushimishije.

Urusengero rwiza rwubatse ahantu heza kandi rurerure cyane, imbere y'uru rusengero hariho amasikariye ruzitije uruzitiro rw'amabuye. Imbere y'urwo rusengero hariho ubusitani bwiza, uru rusengero abakirisitu baza kurusengeramo bararwishimira.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bihurije hamwe kugira ngo bige ku kibazo runaka, umuntu ari kubaganiriza ababwira ibyo bagomba kwigaho, bigaragare ko bari kumutega amatwi ku buryo busesuye.

Inteko rusange y'abaturage yahuriwemo n'abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo, urubyiruko ndetse n'abasaza bari mu nama bafite umuyobozi ubayoboye. Muri iyi nama barigiramo ibintu byinshi by'ingirakamaro.

Inteko y'abaturage bateraniye mu nama. Harimo abagore n'abagabo, abakecuru n'abasaza. Harimo abafite ibibazo bitandukanye kandi ku rwego rw'uko Leta ikemura ibibazo ku buryo bwiza, buri wese yiteguye ko ari bukemurirwe ikibazo.

Inteko rusange y'abaturage, yateraniyeho abantu benshi, abagore n'abagabo, abasore n'inkumi, ndetse n'abasaza, hariho abaturage batonze umurongo, bari kubaza ibibazo byabo, kuko bazi neza ko mu nteko rusange, ariho ibibazo byabo bikemukira.

Inteko rusange y'abaturage higanjemo, abagabo, abagore ndetse n'abasaza urubyiruko rurimo n'abana batoya, hariho umuyobozi uri kubaganiriza, bivuze ngo aba babyeyi bari bukemurirwe ibibazo byose bafite.

Ihuriro ry'abantu batandukanye; harimo abagore n'abagabo, urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bahuriye ahantu bari kwiga ku bibazo byabo. Aba baturage ibibazo byabo birakemuka.

Ihuriro ry'abantu bateraniye hamwe bari gukemura ikibazo cy'abaturage. Inyuma yabo hariho ushinzwe umutekano. Abo baturage biganjemo abagore n'abana ndetse n'umusaza wicaye mu kagare.

Ihuriro ry'abaturage benshi batandukanye harimo: abagore, abana, abakecuru n'abasaza, abayobozi babo bicaye imbere harimo uwahagurutse ari kubagira inama, bamuteze amatwi kandi inama ari bubagire barayikurikiza.

Ikinyabiziga dukunda kwita igicugutu. Igicugutu ni ikinyabiziga gitwara ibintu byinshi. Igicugutu gitwaye imifuka, hejuru y'iyo mifuka hicaye umuntu ndetse hari n'abandi bantu bahagaze ku ruhande barimo baraganira.

Ababyeyi babiri bari ku igare umugabo ndetse n'umugore. Umugore ateruye akana, bigaragara ko bagiye gutemberana.

Gare nziza yubatse neza yubatse ahantu heza kandi hitaruye umuturage ushaka gutega agiye ahantu hatandukanye, biramworohera ko abona imodoka ku buryo bworoshye bityo bikamufasha kugabanyirizwa urugendo.

Iwacu mu rwanda dufite ibinyabiziga bidufasha kwikorera imizigo harimo ni'igare igare ritwara ibintu bitandukanye inkwi ndetse n'abantu iyo ufite igare riragufasha mugutwara ibikoresho byawe ku buryo bworoshe.

Hano iwacu tugira ibinyabiziga bitandukanye harimo ibinyabiziga biciriritse nk'amagare, igare ni ikinyabiziga gitungwa n'umuturage uwo ari we wese kimufasha gutwara imizigo ku buryo bworoshye.

Imodoka nyinshi zikurikiranye zipakiye imizigo, zitwikirije amahema. Izi modoka zikoreye ibirayi zibijyanye i Kigali, ibirayi byacu ntabwo bijya bibura isoko.

Umugabo ufite igare rirerire; riparitse riziritseho ibitebo. Iri gare ni rirerire ritwara imizigo myinshi kandi ritwara n'abantu. Iri gare bakunda kuryita lamozinini.

Imodoka nini nyinshi ziparitse ahantu hagari impande y'ishyamba ni imodoka zitwa Ritico izi modoka zitwara abantu benshi batandukanye ku buryo nta mugenzi usigara.

Iwacu mu majyaruguru dukunda guhinga ibirayi. Ibirayi byacu iyo tumaze kubisarura dushaka imodoka ikabipakira neza, ikabitujyanira i Kigali iyo imaze kubigezayo tubona umusaruro uhagije.

Iwacu tugira ibinyabiziga byinshi bitwara abantu harimo imodoka ndetse n'amamoto, bivuze ngo nta muturage ukenera kujya ahantu byihuse ngo abure ikimujyana bityo twiteje imbere.

Iwacu tugira ibinyabiziga byinshi bitandukanye bidufasha mu kwikorera imizigo harimo ikinyabiziga cy' igare. Igare ni ikinyabiziga giciriritse gifasha umuturage wese gutwara imizigo ye mu buryo bworoheje.

Abagabo batatu bahuriye mu modoka barimo baraganira ,iyi modoka ni imodoka itwara abantu benshi kandi yihutisha abagenzi ,abenshi bakunda kuyita ikiryabarezi ,ni imodoka nziza.

Urujya n'uruza rw'abantu n'imodoka nyinshi ziri muri gare. Iyi gare yubatse ahantu hatandukanye heza kandi hagari, harimo imodoka nini n' intoya, abanyeshuri ndetse n'abamotari.

Hani wacu tugira ibinyabiziga byinshi bitandukanye harimo moto ndetse n'imodoka ibyo binyabiziga bifasha abagenzi kugera aho bagiye ku buryo bworoshye kandi bwihuse moto nikinyabiziga gitwara abagenzi kandi kidasaba amafaranga menshi.

Igicuguti ni ikinyabiziga gitoya. Gikoreshwa mugutwara imizigo. Iki gicuguti gikoreshejwe ibyuma kandi gifite na deregisiyo. Ni igicuguti ciza gifasha buri muturage kugeza aho yifuza ibikoresho bye.

Hano iwacu twateye imbere . Dufite imodoka nyinshi zidufasha gutwara imizigo. Hano iwacu dufite imodoka zitwara imizigo kandi zifite ubwirinzi. Iyi modoka ipakiyemo imifuka myinshi kandi irafunze, ku buryo nta gisambo cyayinjiramo.

Gare iri munsi y'umusozi iri hagati y'amazu meza kandi maremare, hakurya hariho ishyamba ryiza n'amazu menshi, izi modoka ziri muri gare ni imodoka ndende bigaragara ko zitwara abagenzi benshi.

Mugihugu cyacu tugira ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo imodoka twita amatagisi, ndetse n'igare, igare ritwara imizigo myinshi kandi itandukanye, n'imodoka zitwara abantu.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, imbere yayo hariho abantu benshi batonze umurongo, baje guhaha, mu muhanda hari kugaragaramo abadamu babiri, batwaye amagare, bahetse n'imizigo.

Imodoka ziparitse muri parikingi yazo nini yabugenewe zifite amabara atandukanye, ni imodoka ndende zikorera imizigo. Izi modoka zitwara imizigo hanze y'igihugu, ndetse no mu gihugu hagati.

Mu buryo bwiza bwo gutwara abagenzi, hashyizweho gahunda yo gushyira amafaranga ku ikarita ugakoza ku cyumba cyabugenewe, bitabaye ngombwa ko wishyura amafaranga mu ntoki.

Imodoka ebyiri iy'umweru n'iyumutuku hariho n'umugore wo gutwara igare ahetse n'imizigo myinshi, hano iwacu twarisobanukiwe nk'abagore natwe ntidutinya gutwara igare.

Imodoka ziparitse ahantu hagari zifite amabara y'ubururu, n'imodoka zitwara abantu zibakuye ahantu hatandukanye, zibajyana ku kibuga cy'indege izi modoka zifasha abantu bose.

Abagore bikoreye amabase arimo ibitoki bapfukishije ibitenge. Bavuye guca ibitoki nibagera mu rugo barabitara bizavemo imineke. Aba bagore bihangiye

Amagare menshi aparitse ahantu hamwe. Hahuriye abantu benshi batandukanye, baje gutega. Abantu batwara aya magare dukunda kubita abanyonzi, bityo nta muntu ushobora kugera hano ngo abure ikinyabiziga kimutwara.

Abakinnyi b'abana n'ubumuga higanjemo abakobwa, abasore ndetse n'abagabo, bishimiye intsinzi y'umukino wabo. Babahaye n'igikombe, ni ibyo kwishimirwa cyane.

Abantu bari muri siporo, bambaye imyenda itandukanye harimo ubururu, umweru, aba bakinnyi barishimye cyane bigaragare ko babonye intsinzi. Umukino wa siporo ni umukino mwiza kandi ushimisha.

Pisine yubatse ahantu heza .Izitijwe n'uruzitiro rw'amabuye. Iyi pisine yubatse ku buryo bw'umutima abantu bose bayigana barayikunda. Aha hantu ni heza cyane.

Umukino wa siporo ni umukino mwiza cyane. Siporo ifasha buri muntu wese kugira ubuzima bwiza. Siporo irinda uburwayi butandukanye. Iyo umuntu akora siporo agira ubuzima bwiza kandi akaramba.

Mu mikino myiza kandi ikundwa harimo n'umukino wa vore, umukino mwiza ukinwa n'abantu benshi batandukanye cyane cyane urubyiruko, urubyiruko rukunda gukina vore kuko umwana wakinnye vore, aba yizeye ko umubiri we umeze neza.

Umukino wa basikete ni umukino mwiza cyane, ukundwa n'abantu benshi batandukanye. Basikete ikinwa cane cane n'urubyiruko, ariko iyo babaye ari barebare biba byiza cane.

Abagabo babiri bari muri siporo bari gukina umukino wa tenisi. Umukino wa tenisi ni umukino mwiza cyane kandi ukunzwe. Uyu mukino abantu bose bishimira ...

Ihuriro ry'abantu benshi, bahuriye hamwe bakina umukino wo gutwara amagare, harimo abazungu ndetse n'abirabura, uyu mukino wo gutwara amagare, ni umukino mwiza kandi ushimisha abantu bose, abayobozi babo barabigisha, uburyo bagomba gutwara neza, bikabarinda impanuka.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi myiza, wambaye agapira k'umukara ndetse n'ikabutura y'ubururu, afite umupira wa basiketi, uyu mupira bawukinisha mu mukino wa basiketi, umukino wa basiketi n'umukino mwiza kandi ukundwa n'urubyiruko cyane cyane.

Umukino wo gutwara amagare ni umukino mwiza cyane, aba bakinnyi bambaye imyenda ya siporo, bambaye ingofero z'ubwirinzi bambaye inkweto ndetse n'amasogi mu muhanda bari kunyuramo harimo abafana benshi cyane bishimiye uyu mukino.

Muri siporo habamo imikino myinshi itandukanye， hari n'umukino wo gutera umuhundu. Uyu mukino urakunzwe cyane，ukinwa n'urubyiruko cyane cyane. Kandi ni umukino mwiza，buri wese arawishimira.

Abakinnyi bakina umukino w'isiganwa ry'amaguru. Isiganwa ry'amaguru ni umukino mwiza abantu benshi bakunda, cyane cyane urubyiruko. Bari ahantu heza muri sitade nini, kandi yubatse neza.

abakinnyi bakina umukino wo gutwara amagare, bambaye imyenda ibaranga, bambaye ingofero z'ubwirinzi. muri aba bakinnyi harimo uwo bari guhereza amazi yo kunywa.

Umukino wa basikete ni umukino mwiza cyane. Uyu mukino ukinwa n'abantu benshi batandukanye. Cyane cyane urubyiruko. Bityo bifasha urubyiruko mu gukora siporo ku buryo bwiza kandi bworoheje. Bugafasha umubiri wabo kugira umu ubuzima bwiza.

Mu mikino dukina hano iwacu ,harimo imikino myinshi n'umukino wa volley umukino wa volley, ni umukino mwiza ukundwa cyane uyu mukino ukinwa n'abasore n'inkumi ndetse n'abagabo uyu mukino ni umukino mwiza kandi buri wese yifuza kuwukina.

Umukino wa vore ni umukino mwiza cyane ni umukino uryoheye amaso ku buryo buri muntu wese uwurebye yumva umushimishije bityo bigatuma buri wese yumva yakina vore iyo ari umuntu ubikunze.

Pisine yubatse ahantu heza ifite n'inyubako iruhande bakunda kwita bingaro. Igihe cy'izuba abaje bagana iyi pisine bicara muri iyi bingaro, kandi iyi pisinine buri wese yifuza kuyigana kubera ko iri ahantu heza.

Mu mikino ikundwa cyane harimo n'umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru ni umukino ukinwa n'abantu benshi batandukanye. Abasore, inkumi, abagabo ndetse n'abandi benshi barawukunda. Umupira w'amaguru ni umukino mwiza cyane.

Abagabo babiri bambaye amataratara, umwe afite umupira wo kwambara wa siporo, undi afite umupira wo gukina . Aba bagabo bagaragaza uburyo ki siporo ari ingirakamaro.

Hano iwacu dukina imikino itandukanye harimo n'umukino wa vore. Umukino wa vore, ni umukino ukundwa cyane n'abantu benshi batandukanye, cyane cyane urubyiruko. Abasore n'inkumi bakunda kuwukina.

Mu bintu byinshi biranga igihugu cyacu harimo n'idarapo idarapo ni ikirango kiranga igihugu cyacu, rifite amabara menshi umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'ubururu.